Abakozi batandukanye b'abahinzi bahuriye mu murima usa n'uw'ibigori ariko bikiri bitoya, bafashe mu ntoki zabo utudobo, abandi bafite udukapu tuboshywe nk'uko intebo ziba zimeze twitwa udupaniya, barimo barasoroma ibimeze nk'ibishyimbo, bameze nk'abasoro umushogoro.

Icyapa cyashyizwe ahantu nko ku rukuta rw'inzu, kiriho serivisi zijyiye zitandukanye zitangwa n'ikigo runaka, kiriho amacupa atandukanye ashobora kuba avamo imiti runaka yifashishwa mu kuvura ndetse n'ibindi bishushanyo na byo bigaragaza serivisi zitangwa n'iki cyapa n'ikigo gihagarariye.

Igihingwa cy'amasaka kigeze mu gihe kiyiza cyo kubumbura, bigaragara ko gisa neza impeke zatangiye kuza, aho gitoshye kigeze mu gihe kiza, umuhinzi aba atangiye kwizera ko agiye kubona umusaruro.

Ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere bwo guhinga ku murongo, inyanya ziteye muri iyo mirongo, hashinzeho ibiti by'izo nyanya zitondagiraho kuko ari inyanya zishingirirwa zigakura, zigakura zijya hejuru kugira ngo zitange umusaruro mwiza iyo zishingiriye.

Umuntu ufashe mu kiganza cye agacupa kabamo imiti igiye itandukanye, bigaragara ko arimo gusoma amabwiriza y'imiti iri muri aka gacupa kandi imiti irimo ni imiti yifashishwa mu kuvura amatungo nk'uko bigaragara ku bishushanyo biri kuri aka gacupa.

Akabati karimo imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye, yifashishwa bavura amatungo agiye atandukanye nk'inka, ihene, intama n'ayandi menshi, bigaragara ko ari umushinga w'ubucuruzi bw'imiti ivura amatungo ibizwi nka farumasi.

Agakarito gatoya kavamo imiti ivura amatungo yo mu rugo harimo intama, inka, ihene n'ayandi matungo agiye atandukanye, gafashwe n'umuntu mu kiganza kanditseho; heparifu injengisheni, gakoreshwa kabika imiti yifashishwa bavura amatungo.

Abantu batandukanye biganjemo ab'igitsina gore, barimo gushyira itaka mu bihoho kugira ngo bazabashe guteramo ibiti cyangwa se imbuto runaka n'ibindi bihingwa bibanza gushyirwa mu bihoho mbere y'uko biterwa mu butaka.

Icyatsi cyitwa urubingo, giterwa kigakura kikagaburirwa inka, kiri ahantu bigaragara ko cyashishe gitoshye kimeze neza, ariko kiri cyonyine kitari kumwe n'ubundi bwatsi ahubwo ku ruhande hari igiti.

Ikimera cyameze ahantu imbere y'inzu, hirya gatoya y'imbuga, gisa n'ibimera bikunda kumera mu gishanga, bigira utubuto dutoya abantu barya, ndetse kivamo n'imiti itandukanye bifashisha bavura indwara gakondo.

Ubuhinzi kijyambere busa neza bw'imboga zitwa amashu, zisasiye, ziri ku murongo ahantu harambuye heza, bisa naho zikurikiranwa umunsi ku munsi kandi zikaba zifumbirwa mu buryo bwiza bugezweho.

Imyungu itanu iteretse ahantu hameze nko mu kabati, aho ishobora kuba yacuruzwa, umuntu afashe ku mwungu umwe n'intoki ze, ameze nkaho arimo kuyitereka hejuru aho abantu bashobora kuyibona maze bakaza bakayigura.

Umuntu ukikiye mu ntoki ze imbuto zitwa pavuro, azifashe ameze nk'urimo kuzerekana cyangwa uziteruye ugiye kuzishyira ahantu runaka amaze kuzisarura.

Imbuto nziza cyane ziteye nk'imyungu cyangwa ibihaza zitwa watermellon zirunze ahantu hamwe zisa neza ubona ko zitaweho mu gihe cyo kuzihinga, zifite ibara rishishe rigaragaza uburyo zitaweho mu gihe zari zihinzwe.

Amazi mabi menshi atemba ahantu bigaragara ko ari mu mubande nko mu gishanga, iruhande hari ibiti byahameze, hakurya hari amazu kandi hari n'urutoki munsi yaho gatoya wegereye aho ayo mazi ari, atembera mu gishanga.

Ikirambi kiza gitoshye kirimo ubwatsi busa n'ubwenda kuma n'ubundi bugitoshye, hirya hari amazu ndetse n'ibiti bigaragara ko ari ifoto yafotowe igaragaza ubwiza bw'ahantu runaka.

Imirima igiye itandukanye iri mu mubande, mu gishanga, bigaragara ko ari munsi y'imisozi, hari amazi atemba mu migende yifashishwa mu buhinzi, kuko iyo mirima ihinzweho ibihingwa bigiye bitandukanye bisa neza bishishe kandi bitoshye.

Ubuhinzi bugezweho buzwi nka matarasi buri ku musozi ahantu heza cyane, hakurya n'aho haragaragara ubundi buhinzi bugiye butandukanye buvangwa n'ibiti harimo inzira bakoresha kugira ngo babashe kugera aho ubuhinzi bwabo buherereye.

Amazi mabi arimo gutemba mu muferege wagenewe gutwara amazi, ubona ko iruhande rwawo hari utwatsi dukeya twahameze, bisa naho ari mu gishanga aho amazi anyura hirya y'imirima.

Umushinga uzwi nka pepiniyeri cyangwa se aho abantu bategurira imbuto za kijyambere zizwi nk'imbuto zibangurirwa aho abantu bafata ibihoho bagateramo avoka yamara kumera bakayibangurira kuyindi voka runaka bifuza y'ubwoko bwiza aho bigaragara ko ari umushinga wo guhinga ibiti bivanga n'imyaka.

Umuntu ufashe ku mugongo w'inka ikiri ntoya y'umutavu, ayifashe yunamye irimo ireba hakurya ku ruhande, ni inka isa neza yo mu ibara ry'umweru uvanze n'umukara, izi zitwa ibihuga.

Umugabo wambaye imyambaro y'abarozi isurubeti na bote z'umukara ndetse n'ingofero ku mutwe, urimo kwita ku nyamaswa yitwa ingamiya, arimo ayagaza ayifata imbere ku munwa.

Umugabo wicaye ku kiraro cy'inka arimo kuyigaburira; yambaye umwambaro w'igisarubeti kiri mu ibara ry'ubururu, afite mu ntoki ze icupa ririmo amazi, yambaye n'inkweto z'umukara arimo aragaza inka ye ayifata ku matwi.

Umusore bigaragara ko akiri mutoya wambaye isurubeti ndetse na bote z'umweru, uri inyuma y'inka ebyiri bisa naho aziragiye azicyuye arimo azambutsa umuhanda cyangwa inzira runaka abantu banyuramo n'ibinyabiziga, azishyira ahari ubwatsi.

Inyamaswa ntoya yitwa inyoni, ihagaze ku giti kiri ahantu mu ishyamba, bisa n'aho ari ishyamba ry'inzitane, ni inyoni isa nk'ubururu, ahandi igasa umukara, imbere ku munwa hasa umweru n'umunwa w'umutuku, ikaba ari inyoni isa neza ishimishije kuyireba.